Mu mashuri abanza abana baricaye, imbere yabo hari ameza, umwe muri bo yabateye umugongo, biragaragara ko bategereje guhabwa ibitabo ngo batangire amasomo yabo.

Ishuri ry'inshuke ririmo abana bakiri batoya, bicaye bakikije ameza, bambaye impuzankano bamwe iy'ubururu bwerurutse hejuru ndetse n'iy'ubururu bwijimye hasi.

Ishuri ry'incuke rikaba riri kwigwamo n'abana batoya nkuko Leta y'u Rwanda ibishishikariza ababyeyi kugira ngo bajye bajyana abana batoya ku mashuri mu rwego rwo kugira ngo batangire kwiyungura ubumenyi bakiri bato.

Irerero ry'abakiri batoya, aho bari kwitabwaho n'ababyeyi, izi nshuke, ni ngombwa ko tuzohereza muri aya marerero, kugira ngo zitangire kumenyera kwiga, bakiri batoya.

No mu bice by'icyaro hasigaye hagaragara amashuri y'inshuke, aho kugira ngo abana birirwe mu rugo, babajyana kuri bene aya mashuri kuko bituma ubwenge bwabo bufunguka hakiri kare maze bakazakurana imbaduko.

Mu irerero riri mu bice by'icyaro abarimu bakaba bari kwigisha abana udukino ndetse n'imbyino, ni bake cyane bambaye impuzankano abandi ntazo bambaye.

Bicaye ku mukeka rwagati mu cyumba k'ishuri ryigishirizwamo abana b'inshuke, bakaba bafite umurezi w'umubyeyi biragaragara ko ari kubitaho, bose baranezerewe bafite akanyamuneza.

Umubyeyi uri kwigisha abana mu irerero, ni abo mu giturage bicaye hanze ku mukeka arabahagarariye nyuma yo kubaha ibya mu gitondo bari kubinywa bose banezerewe.

Mu irerero ry'abana hari kugaragara benshi cyane bari mu kigero kimwe, bose bicaye ku mukeka, bahawe igikoma, aho bari kugifata nk'ifunguro rya mu gitondo, mu rwego rwo kugira ngo bakomeze amasomo yabo.

Abana biga mu mashuri y'inshuke bakunze kuba bicara ku dutebe duto ndetse n'utumeza bijyanye n'uko bangana, ni byiza ko abana bacu tubohereza hakiri kare kugira ngo batangire gutyaza ubwenge bakiri bato.

Abana biga mu ishuri ry'inshuke baje kwigishwa kufira imirima, aho bagenda bakuramo imyanda ndetse n'ibindi bintu bishobora kubangamira imyaka kwera, umwarimu wabo abarimo hagati ari kugenda aberekera.

Rwagati mu ishuri ry'incuke abana bicaye ku mikeka, bari gukina udukino ari na ko mwarimu wabo agenda atuberekera, hakaba hagaragara ku nkuta ibishushanyo bitandukanye.

Ni ngombwa ko abana bajya ku mashuri bakiri batoya cyane. Ni muri urwo rwego leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu kongera umubare w'amashuri y'incuke azwi nk'amarerero, akava mu mujyi akagera no mu bice by'ibyaro.

Mu mashuri abanza hari abana batoya biga mu myaka ibanza; bakaba bamwe bahagaze imbere y'umuryango w'ishuri, undi ari kuza abasatira aho agiye kwinjira mu ishuri.

Abana biga mu mashuri abanza bamwe bari gusohoka mu kigo cy'amashuri, abandi bari kwinjira ariko nk'uko bisanzwe ku bana hari n'abandi bari gutaha bikinira, bahetse amakayi yabo mu bikapu.

Ni ku kigo nderabuzima bigaragara ko hari abantu baje kwifuza, akayira gacamo abarwayi kaba gatwikiriye mu rwego rwo kugira ngo baticwa n'izuba, ahandi ku ruhande hari amabuye ahubakishije hasi.

Urujya n'uruza rw'abana batoya biga mu mashuri abanza. Bamwe barava abandi bakajya ku ishuri. Bose bambaye impuzankano bahuriyeho ndetse bahetse ibikapu birimo amakayi n'amakaramu.

Icyumba k'ishuri, kikaba kigizwe n'igikuta cy'umweru hejuru, hasi hakaba umukara ndetse n'aho bandika bikaba ari uko, hagiye hometseho ibipapuro by'imfashanyigisho, bigaragara ko ari mu mashuri abanza.

Imbere y'inzu haragaragara akadobo k'icyatsi kibisi, kagenewe gushyirwamo imyanda, hari igicucucucu cy'umuntu utagaragara neza ariko amaboko ye aratwereka ko afite telefone mu ntoki.

Mu cyumba cy'amashuri kigaragara igice gito, hari inkingi z'umweru ndetse n'amatafari ahiye, hari ikibaho bigiraho aho cyanditseho: a,b, c,d, e,f, g, h, j ndetse n'andi.

Icyumba cy'amashuri abanza kiragaragaramo abanyeshuri bane bonyine. Bikaba bisa nkaho abandi bagiye mu karuhuko, hari abahagaze ndetse n'undi umwe wicaye umeze nkaho ari gukomba isafuriya.

Ku kigo cy'amashuri hari inzugi z'ubururu, amatafari ahiye ndetse n'andi mabati asanzwe, imvura irahise kuko ubutaka buracyatose. Hakurya y'ikigo hari imirima iteyemo ibigori ndetse n'intoki.

Abitwaye neza mu mikino itandukanye, bakunze guhabwa ishimwe rigizwe n'imidari ndetse n'ibikombe, aho uzagera ugasanga hamanitse ibikombe, abo bantu baba bafite amakipe yagiye ahiga ayandi, nk'uko biteretse kuri aka kabati k'umukara ari byinshi.

Ku kigo cy'amashuri, hakaba hari aho abasuye abana baparika ibinyabiziga byabo, nk'uko hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, ndetse n'umweru kibigaragaza.

Urukuta rugizwe n'ibice bibiri, hamwe hariho amatafari ahiye akoteje isima, ikindi gice kiriho ikibaho cy'umukara, hometseho urupapuro rushushanyijeho mudasobwa.

Igikuta cyubakishijwe amakaro, bigaragara ko hashobora kuba ari mubwogero, inyuma hari ibiti bitandukanye, hepfo hakaba hari inyubako zihurutuye zubatse nk'amashuri.

Mu rwego rwo kugira ngo hihutishwe ndetse hananozwe ikoranabuhanga iwacu mu Rwanda; Umukuru w'Igihugu yatanze mudasobwa kuri buri mwana wese wiga mu mashuri abanza, kugira ngo bajye batyaza ubumenyi bakiri bato.

Akabati kagizwe n'imbaho ndetse n'ibirahuri, kakaba kiganjemo ibiti by'umutambiko ndetse ibirahure biri hirya gato ahari ibara ry'umukara, hometseho igipapuro kiriho imibare.

Abana biga mu ishuri ribanza, abakobwa bambaye impuzankano y'ubururu naho abahungu bambaye iya kaki, bageze mu gihe cyo gufata note, buri umwe arahuze ari kwandika.

Ku bigo by'amashuri abanza bitandukanye, umukuru w'Igihugu yagiye ahatangiza gahunda zitwa buri mudasobwa kuri buri mwana, ibi bigafasha mu rwego rw'ikoranabuhanga.

Mu rwego rwo kwihutisha iterambere mu ikoranabuhanga umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yatangije gahunda mu mwaka w'ibihumbi bibiri n' numunani, wo gutanga mudasobwa kuri buri munyeshuri wo muri pirimeri.

Ikigo cy'amashuri yo mu rwunge kikaba kigaragaraho ikigega gifata amazi aba yavuye ku mabati, gikikijwe na senyege ndetse n'ibiti bizifashe nta munyeshuri uri kugaragara bigaragara ko ari mu biruhuko.

Ikigo cy'amashuri abanza, mu mbuga yacyo haragaragara abana bato baje kwiga. Bambaye impuzankano y'udukabutura cyangwa se utujipo twa kake ndetse n'amashati y'ubururu bw'ikirere.

Ubwiherero ni ikintu tuba dukwiye kubungabunga isuku yacyo, kuko iyo budafite isuku ababukoresha bashobora kuhakura indwara zandura biturutse ku mwanda.

Amashuri yubakishije amatafari ahiye, aho imbere hari icyapa cyanditseho amagambo atandukanye, kiriho n'ikirangantego cy'u Rwanda, imbere y'ishuri hari umugabo uri kuhatambuka.

Ni ishuri ry'inshuke rikaba rigaragaraho ibishushanyo aho baba bari kwiga ibikoresho byo mu nzu mu rurimi rw'Icyongereza, iri shuri rikaba rituma abana barushaho kujijuka.

Ku kigo cy'amashuri ukunze gusanga ku bipangu byaho hari ibiranga ko aho ngaho ari ikigo cy'ishuri, nko kuri uru hashushanyijeho abana bicaye bari kwiga ndetse n'umwarimu ari kubaha isomo ry'Icyongereza.

Ikigo cy'amashuri kikaba cyubakishije amatafari ahiye ndetse inzugi zacyo n'amabati byose bikaba bisa ubururu, aya mashuri afite imbuga nini yisanzuye abana bashobora gukiniramo.

Ni ku kigo cy'amashuri, gifite urukuta rurerure rwubakishije amatafari ahiye, hariho icyapa kigaragaza ko ari urwego rw'igihugu rushinzwe ibimenyetso ku bijyanye n'amarenga, hagiye hariho ibiganza.

Ikibuga gikinirwamo imikino y'intoki, inyuma yacyo hari igiti cy'umunyinya, ibi ni bimwe mu bigize ikigo cy'amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye.

Ibitabo by'isomo ry'imibare ku banyeshuri biga mu myaka yo mu wa gatatu mu mashuri abanza, ni byiza cyane ko abanyeshuri bifashisha bene ibi bitabo, kuko bituma barushaho kongera ubumenyi.

Mu bihe abana batari kwiga bari mu biruhuko, baba bakeneye kugira aho bahurira, kugira ngo bakine udukino twabo baziranyeho, ariko iyo habonetse umuntu mukuru, ubasha kubayobora muri utwo dukino birabanezeza.

Ni igikoresho cy'amashanyarazi kifashishwa mu gucomekwaho imigozi myinshi itandukanye, kiri hagati mu ishuri, bigaragara ko aha ari abana bacomekaho mudasobwa bahawe n'umukuru w'igihugu.

Icyumba k'ishuri bigaragara ko kimaze gusaza, rikaba rimaze kwangirika, hari umuryango umwe w'ibara ry'icyatsi, uriho ingufuri ufunguyeho gatoya.

Icyumba cy'ubuyobozi akaba ari ibiro bikoreramo umuyobozi w'ishuri. Ni umuryango w'umweru, ukaba uriho amagambo yandikishije ibara ry'umukara, wubakishije amatafari ahiye.

Ni ku mashuri abanza aho abana batangiye gusohoka mu byumba by'amashuri nyuma y'uko amasaha yo kwiga arangiye, benshi muri bo bahetse ibikapu birimo amakayi yabo.

Ibigo by'amashuri bitandukanye bikunze kuba bifite ibibuga bikinirwamo imikino itandukanye kugira ngo abanyeshuri bafite impano zo gukina batazajya bacikanwa.

Abana biga mu mashuri abanza biragaragara ko bicaye bari gukora umukoro wo mu matsinda, aho bamwe bari kwandika abandi babahereza ibitekerezo, barimo abakobwa ndetse n'abahungu.

Mu mashuri y'inshuke bakunze kwifashisha imfashanyigisho mu rwego rwo kugira ngo abana basobanukirwe neza ibyo bari kwiga. Aha hari igipapuro kiriho imyambaro, hakagenda hashyirwaho amazina yayo mu rurimi rw'icyongereza.

Mu cyumba cy'ishuri ahari gutangirwa amasomo atandukanye, aho harimo iriri kwigwa Icyongereza bakaba bari gutanga isuzumabumenyi, aho bari bukorere ku manota icumi.

Mu muhanda w'amabuye harimo imodoka itwara abanyeshuri ikaba ifite ibara ry'umweru, inyuma hari imimero iyiranga, iba igizwe n'akapa k'umuhondo ndetse n'imibare yandikishijwe umukara.

Icyumba cy'ishuri kigaragaraho ikibaho cy'umukara cyanditseho n'ingwa y'umweru, hari ibitabo biteretse ku ntebe, ariko hari n'ibindi byinshi birunze mu makarito nk'imfashanyigisho z'abanyeshuri.

Mu rwego rwo kugabanya umubare w'abana bata ishuri, Leta y'u Rwanda yashyizeho uburyo bwo kugaburira abana biga mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye cyane cyane abiga bataha iwabo.

Ikigo cy'amashuri yisumbuye cya Mukingi, kikaba kiriho icyapa kinini kibigaragaza, ndetse iruhande hari ibendera ry'igihugu, kigizwe n'urugi rw'amabara y'umweru ndetse n'icyatsi.

Mu kigo cy'amashuri yisumbuye mu gitondo mbere y'uko binjira mu masomo yabo, babanza guhura n'abayobozi babo, maze bakongera kubaha amabwiriza, aho iki gikorwa kibera imbere y'ibendera ry'igihugu.

Ikigo cy'amashuri cya EAR Kageyo cyigisha imyuga n'ubumenyingiro, kikaba gifite amarembo magari yuguruwe, aho abanyeshuri bifuza kucyigamo bashobora kuza gufata amasomo.

Urubyiruko rw'abanyeshuri bari guhabwa ikiganiro n'abayobozi mu nzego z'umutekano. Bamwe baricaye ndetse abandi barahagaze. Haragaragaramo abo mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye.

Umugabo bigaragara ko akuze akaba ashinzwe umutekano kuri iki kigo, imbere yacyo hari igiti cy'umukindo giteye rwagati mu busitani, akaba afite agakoni mu kwaha ahagaze imbere y'umuryango.

Ni ku rwunge rw'amashuri rwitiriwe Mutagatifu Joseph, hakaba harangwa n'amarembo manini cyane agizwe n'urugi rw'ubururu ndetse n'umweru, hari icyapa cyanditseho amagambo yerekana nyine icyo kigo cy'amashuri.

Urwunge rw'amashuri ruri mu cyaro aho abanyeshuri bazindukiye ku murongo, mbere y'uko batangira amasomo yabo babanza guhabwa amabwiriza n'abayobozi ndetse bakanaririmba indirimbo yubahiriza igihugu.

Mu rwunge rw'amashuri yisumbuye, haragaragara abanyeshuri bari ku murongo, biganjemo abahungu ndetse n'abakobwa, mbere y'uko batangira amasomo yabo, babanza kujya kumva imbwirwaruhame, ziba zibatoza kugira indangagaciro z'umuco Nyarwanda.

Icyumba k'ishuri, biragaragara ko basohotse bagiye mu karuhuko gato kuko nta munyeshuri ugaragara ku ntebe, icyokora bagiye basiga amakayi bamwe ku meza abandi basigaho imyenda yabo, hirya hari akabati ka mwarimu kapanzeho amakarito arimo ibitabo.

Ni umwarimu w'umudamu wambaye amadarubindi, imyenda y'umweru ndetse n'akajakete yarengejeho, akaba ari guhamagara umunyeshuri umwe ku wundi amushyikiriza ibikoresho bahawemo inkunga.

Umwana wiga mu mashuri abanza wambaye impuzankano y'ishati y'ubururu bwerurutse cyane ndetse n'ikabutura y'ubururu bwijimye. Ari kwirukanka mu kayira kagenewe abanyamaguru.

Umwarimu ari gutanga isomo rijyanye n'iby'ubutabire, yambaye impuzankano iranga abarimu, ndetse ari gutunga inkoni ku gipapuro aho ari kwereka abanyeshuri.

Kuri sitade Mpuzamahanga ya Huye, hateraniye abanyeshuri, aho bari kuganirizwa n'ikigo cy'Igihugu gishinzwe itumanaho RBA, bakaba abanyeshuri bambaye impuzankano y'umweru n'umukara.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye baba bakwiye kuba bafite ibintu byose bikenewe birimo ibitabo ndetse n'izindi mfashanyigisho, aba bakaba bambaye impuzankano z'amashati y'umweru, icyakora umwe muri bo yambaye umupira w'imbeho'icyatsi n'agapfukamunwa.

Hagati mu banyeshuri ari kubaha imbwirwaruhame, ni umwe mu bayobozi basura abanyeshuri bakabaganiriza ahanini bongera kubibutsa indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda.

Ibiti binini cyane bikaba biri ruguru y'ikigo cy'amashuri, haragaragara urukarabiro ruteye irange ry'umukara ndetse n'inyubako yubakishijwe amatafari ahiye.

Ikigo cy'amashuri yisumbuye giherereye mu Ruhango, hakaba hari amarembo yacyo manini yandikishijeho amabara y'ubururu, ariko kandi gifite n'ibara ry'umweru.

Ni urubyiruko rwiganjemo abasore bamwe bafite matela ndetse abandi bikoreye mari, abadafite ibyo bahetse ibikapu mu mugongo birimo utwangushye twabo.

Abihayimana bazwi nk'abamansera, aba ni abantu baba bariyemeje kujya kuba mu kiriziya ndetse bakigomwa gushaka abagabo, bakazajya bakora imirimo yo kuri aritari.

Umuhanda w'ibitaka nyabagendwa, iruhande rwawo hari urugo rufite urupangu rw'icyatsi, biragaragara ko ari ku kigo cy'amashuri ariko y'incuke, mo imbere harimo inzu isakaje amategura.

Abiga mu mashuri yisumbuye habaho igihe bagakora urugendoshuri, aha rero hakaba hari abasore n'inkumi bambaye impuzankano y'umweru ndetse na kaki baje gusura igishanga.

Ikigo cy'amashuri cyubatswe mu buryo bugezweho, aho gikorotirijwe n'amatafari ndetse n'utwuma hagati harimo ubusitani, ku nyubako mu igorofa hariyo abanyeshuri ndetse no hasi mu mbuga hakabayo abandi.

Abaturage bo mu karere bakaba basuwe n'umuyobozi, aho yabaganirije ku ngingo nyinshi zitandukanye, bamwe muri bo babukereye bakenyeye mu rwego rwo kugira ngo baze kubyinira umushyitsi nyamukuru.

Urwunge rw'amashuri yisumbuye, hakaba hari kugaragara abanyeshuri bitabiriye ibiganiro. Bicaye mu mbuga, abandi barahagaze, bakaba bari kumva ubutumwa bagezwaho n'umuyobozi w'ikigo.

Mu cyumba cy'ishuri aho kigizwe n'inkuta z'umweru, haragaragaramo ameza mwarimu yifashisha ndetse n'intebe abanyeshuri bicaraho gusa nta n'umwe uri kugaragara, hari ibipapuro biteretse ku meza.

Ni ku kigo cy'amashuri yisumbuye ahari gutemberwa n'umudamu wambaye imyenda isa idoze mu gitenge, hari inyubako zubatswe mu buryo bugezweho, dore ko hari n'utuyira twagenewe abafite ubumuga.

Inyubako iri kugaragara igisenge cyayo cy'amabati y'ubururu bwerurutse, hakaba hateyemo ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda mu mabara yaryo atatu, icyatsi, umuhondo, ubururu ndetse n'izuba.

Ku rwunge rw'amashuri abana basuwe n'abayobozi batandukanye, maze, babasohora hanze y'amashuri, babicaza aho ngaho, kugira ngo bongere kubibutsa indangagaciro na kirazira by'umuco Nyarwanda.

Mu cyumba k'ishuri hari gutangirwa amasomo hifashishijwe insakazamashusho imuritse ku kibaho, abanyeshuri bambaye impuzankano igizwe n'amashati y'umweru ndetse ubahagaze imbere akaba yambaye akajire k'umukara.

Mu cyumba cy'ishuri hari umwarimu uri gutanga amasomo akaba ari umudamu. Afite ingwa aho ari kwandika ku kibaho, yambaye itaburiya y'umweru. Hagaragara igice gito cy'umutwe cy'umunyeshuri.

Mu isomero riba ribitse ibitabo ndetse n'ibindi abanyeshuri bifashisha mu rwego rwo kunoza ubumenyi bwabo, hagati muri ryo hahagazemo umugabo wambaye ishati ndetse n'ipantaro y'umukara.

Abanyeshuri bari hagati mu cyumba cy'ishuri aho bamwe bahagaze abandi bicaye bigaragara ko iki cyumba cy'ishuri kirimo ubucucike ariko biragaragara ko harimo abashyitsi babasuye.

Icyumba cy'ishuri kiri kugaragaramo intebe nta muntu n'umwe urimo, biragaragara ko bari mu biruhuko kuko nta munyeshuri uri muri iki cyumba, harimo intebe gusa yemwe n'ibikuta nta marange asizeho.

Mu kigo cy'amashuri biragaragara ko bari mu kiruhuko kuko nta munyeshuri n'umwe utamba mu mbuga hagati; ndetse n'ibyumba bigiramo bikaba bibereye aho, icyakora umurinzi w'iri shuri akaba ari we uri kuhatambuka.

Kuri ubu usanga hirya no hino mu gihugu, haragiye haboneka ibyumba by'amashuri yubatswe ku buryo bugezweho, ubu ni ubukangurambaga bwakozwe na Leta, aho mu myaka ya Kovide cumi n'icyenda, abaturage biyubakiraga amashuri, mu rwego rwo kugira ngo abana babo batazajya bajya kwiga kure.

Amashuri yisumbuye ndetse n'aya kaminuza yose ategetswe kuba afite isomero rusange, aho abanyeshuri baza gufata ibitabo bibafasha mu masomo yabo ya buri munsi.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye bakaba bari mu nzu mberabyombi, aho bari guhabwa indangagaciro na kirazira babihabwa n'umwe mu bashinzwe umutekano hano mu gihugu.

Ku kigo cy'amashuri haragaragara imodoka nyinshi zihahagaze z'amabara atandukanye ndetse hagati hateyemo ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda mu mabara yaryo atatu.

Abana b'abakobwa biga mu mashuri yisumbuye, bahisemo gukora isuku uyu munsi. Aho buriye ku ntebe, bafite ibikoresho bari kwifashisha boza amadirishya y'ibyumba by'amashuri.

Ni mu cyumba cy'ishuri ariko igice gishinzwe kubikwamo ibitabo, biragaragara ko iki kigo gikennye ibitabo kuko bafite bikeya, dore ko mu kabati byagiye mu ruhande rumwe gusa.

Aha ni ku kigo cya Groupe officiel y'i Butare, kikaba giherereye mu majyepfo y'u Rwanda ho mu karere ka Huye, ku rugi rukiranga hariho indangagaciro ndetse na kirazira bagenderaho.

Mu mashuri makuru yisumbuye ndetse na za kaminuza, ni hamwe mu hazwiho kuba hari amasomero, abana cyangwa se abanyeshuri bajyamo, bagasoma ibitabo mu rwego rwo kunoza amasomo yabo.

Ni abanyeshuri ariko bigaragara ko bari kwiga isomo ry'umuziki cyangwa se bakaba bagiye mu materaniro, akaba ari korari iri kuririmbira bagenzi babo, hari ubahagaze imbere umeze nkaho ariwe muyobozi wabo.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bakaba bakoze urugendo shuri, aho bari imbere y'igiti kirekire cy'umusaraba kiriho ishusho y'umeze nka Yesu, biragaragara ko biga mu kigo cy'abihaye Imana.

Mu cyumba cy'ishuri abanyeshuri bo mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, bakunze gusurwa n'abantu baza kubatoza indangagaciro na kirazira by'umuco Nyarwanda, muri iri shuri harimo umugabo uri kwigisha abana.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, ni ngombwa ko basurwa n'abayobozi mu nzego zitandukanye bakaganirizwa kugira ngo bakomeze kwimakaza indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda nk'uko biri kugenda kuri iki kigo cy'amashuri.

Ikigo cy'amashuri cyitwa Indatwa. Kikaba kigizwe n'ibikuta binini cyane aho amashuri asakaje amabati y'ubururu, hari ibirango ku muryango byerekana ko ugeze ku Ndatwa.

Abana batoya biga mu mashuri abanza bakaba bagiye kwiga mu modoka. Umwe yambaye utwenda dusa tw'ubururu n'amasogisi y'umukara. Akaba ahetse igikapu cy'umutuku ari gufunga umuryango w'imodoka.

Mu isomero ry'ikigo cy'amashuri, ahari ibitabo byinshi bitandukanye. Ibi bikaba byifashishwa n'abanyeshuri mu rwego rwo kugira ngo barusheho kongera ubumenyi bwabo. Hicayemo umwarimu wambaye itaburiya y'umweru.

Abanyeshuri bo mu mashuri ya za Kaminuza ariko yo hanze, bagira uburyo amashuri yabo aba ateye ku buryo umwe yicara yisanzuye nta kubyigana na mugenzi we, aba bambaye impuzankano y'imipira ndetse n'amakote by'ubururu na za karevati.

Icyumba gikorerwamo ubushakashatsi ndetse n'isuzuma ku bijyanye n'imiti ihabwa amatungo, hari abanyeshuri bo muri kaminuza bakibyukiyemo, aho bazindukiye muri ubwo bushakashatsi.

Urujya n'uruza rw'abantu batandukanye biganjemo urubyiruko bakaba bari gutambuka, iruhande rwabo hari umudugudu ugizwe n'inzu z'amagorofa maremare cyane.

Ni mu cyumba cy'ishuri rya kaminuza aho abanyeshuri bari guhabwa amasomo yabo, benshi muri bo bafite amakaramu n'amakayi bari kwandikamo, bakaba bari guhabwa amasomo n'umugabo umeze nk'aho ari umwera.

Umuhanda wa kaburimbo uteyemo amakona abiri afite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, iruhande rwawo hari akayira kagenewe gucamo abanyamaguru, aho hirya gato hari inyubako imeze nkaho ari urusengero.

Umugabo wicaye mu cyumba cya wenyine, ku meza hateretse mudasobwa iriho ikaramu, akaba ari gukora ubushakashatsi kuko ari gusoma igitabo, agahita abibaza na mudasobwa.

Abanyeshuri biga muri za kaminuza bakunze kuba bafite ibyumba byabugenewe baba babamo, iki ni kimwe muri byo hari inkweto bajyana koga cyangwa se batemberana iyo batagiye ku ishuri ndetse hakaba n'uburiri bugaragara.

Imbuga ishashemo amapave, aho mu nkengero hagiye hazengurukijwe utwuma tugizwe n'amabara y'umweru n'umukara, ku mpande kandi hari inzu z'amagorofa.

Icyumba kiza kiberamo ubushakashatsi ndetse n'inama ku banyeshuri bo muri kaminuza, hari udutebe bashyize hejuru y'ameza, utundi baduseseka munsi kubera ko bari bagiye kuhakora isuku.

Mu cyumba kiberamo ubushakashatsi hahuriye abaganga, aho buri umwe yaje kureba ubushakashatsi ku ndwara zigiye zitandukanye, icyo bahuriyeho ni impuzankano y'amataburiya y'umweru.

Urukuta rurerure rwubakishijwe amatafari ahiye, rukaba rugizwe n'inkingi ifashweho umuryango, bikaba bigaragara ko abaza muri iyi nzu ariho binjirira dore ko hari umuryango munini.

Inyubako y'igorofa rimwe, ikaba igizwe n'inkuta z'umuhondo, inyuma hagiye hari inkingi ndetse n'amadirishya, hari ibiti by'ibishyitsi byatemwe ndetse n'ubusitani buri aho hafi.

Abanyeshuri biga muri za Kaminuza, baba bafite ibyumba by'umwihariko babamo, mu rwego rwo kugira ngo begere amasomo yabo. Iki cyumba kirimo uburiri bushashe neza, hakaba hariho mudasobwa ariko ijimije.

Umusore uri kugenda mu kayira kahariwe abanyamaguru, ahetse igikapu mu mugongo ndetse afite n'ikindi mu ntoki, iruhande rwe hari utwuma dukorotirije urupangu rurimo inyubako y'amagorofa menshi.

Ni mu cyumba kiberamo inama haragaragara imeza igice kimwe ndetse n'intebe y'umukara, hirya gato hari akabati gashinzwe kubika ibitabo ndetse ku rukuta hometseho igipapuro kigaragaza ingengabihe.

Mu kibuga gikinirwamo umukino w'intoki kikaba cyaratewe inkunga n'ikigo k'itumanaho hano mu Rwanda cya MTN, Nk'uko biri kugaragara mu mabara y'umuhondo gikikijwe n'ibiti bitanga umwuka mwiza ku bari gukinira aho ngaho.

Ni icyumba cy'ishuri cyo muri Kaminuza nkuru y'u Rwanda, kigirwamo ibijyanye n'ubumenyi bw'umuntu cyangwa se n'ibindi bintu bitandukanye, rimwe mu ishuri rizwiho kuba ritanga umusaruro ku isoko ry'umurimo.

Ni mu kigo cya kaminuza aho abanyeshuri bihugurira ku bijyanye na mudasobwa, akaba ari mu cyumba cya zeru zeru icyenda, harimo mudasobwa zitandukanye ndetse n'intebe, aho abanyeshuri bazihuguriraho.

Icyumba kimwe mu bigize byinshi bya kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Butare, aha akaba ari mu biro by'abayobozi b'iki kigo kizwiho kwigamo intiti z'iki gihugu cy'u Rwanda.

Abanyeshuri biga muri kaminuza bahuriye mu isomero, aho bari gukora umukoro bahuriyeho, bamwe baragenda batanga ibitekerezo, mu rwego rwo kugira ngo babashe kuwunoza.

Akaba ari umwe mu bayobozi bo ku kigo cya kaminuza cya Kitabi cy'ubumenyingiro, arahagaze, afite indangururamajwi mu ntoki, akaba ari gutanga imbwirwaruhame ku banyeshuri.

Inzu bigaragara ko ari iyo guturamo ntoya, ikaba ifite ibitambaro birinda urumuri kwinjira bigizwe n'amabara atandukanye arimo umweru ndetse n'iryenda gusa nk'ivu. Hari urugi rw'icyumba rwubakishijwe imbaho.

Ni ku kibuga gikinirwamo umukino w'intoki, aho ku ruhande rwacyo hari ahagenewe kwicara abantu ariko harimo amabara y'umuhondo, bigaragara ko ikigo gishinzwe itumanaho aricyo MTN kiri kuhamamariza.

Inzu mberabyombi igizwe n'intebe z'umutuku ndetse ahandika nimero hakaba hasa umweru, harimo abantu benshi bitabiriye inama bari muri iki cyumba, barimo abagabo ndetse n'abagore.

Mu bigo by'amashuri bya kaminuza abanyeshuri baba bafite amacumbi yihariye ayo babamo mu rwego rwo kugira ngo babe biga amasomo ariko bari hafi yayo, aha hari icyumba gishashe neza cy'umunyeshuri.

Munzu mberabyombi hari kubera ibiganiro byitabiriwe n'abagizwe n'abayobozi mu nzego zitandukanye z'igihugu imbere hari abagabo batatu bari ku murongo umwe buri wese afite icyo ari kwandikaho.

Ni akabati gafunguye biragaragara ko nta bintu byinshi birimo, iyi nyubako ishobora kuba igiye gusanwa cyangwa se kuvugururwa kuko buri bintu byari birimo babishwanyaguje.

Ubusitani bunini cyane butoshye, bukaba bukikijwe n'ibiti bibutangamo umuyaga mwiza, hari intebe iri munsi y'igiti yicaweho n'abantu babiri.

Abanyeshuri biga ibijyanye n'ubumenyingiro, bakaba bari mu cyumba cyo kwimenyererezamo ibyo baba bize, abenshi muri bo bambaye impuzankano igizwe n'amataburiya y'ubururu.

Icyumba gicumbitsemo abanyeshuri biga muri kaminuza, kirarangwa n'aho bakarabira bakaniborosereza mu gitondo, hari mudasobwa iri kugaragara agace gato cyane ndetse n'inkweto bajyana muri dushe.

Imbuga ishashemo amapave, ikaba ifite aho amazi y'imvura amanukira. Mu busitani hanitse imyenda ndetse n'amashuka. Bigaragara ko aho ngaho ari ho abanyeshuri barara.

Ikigo cy'amashuri ya Kaminuza kitwa Kitabi, kikaba kigisha ubumenyingiro ndetse n'ibijyanye n'ubukerarugendo nk'uko bigaragara ku byapa biriho inzovu.

Ni ku ishuri rikuru rya Kaminuza y'u Rwanda, ku madarajye hari umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara ugiye kumanuka, akaba akikijwe n'ibiti biri ku mpande, hirya gato hari umukobwa na we uri gutambuka.

Ni ibiro by'inzu y'ishuri ry'Abadiventisiti, ikaba igizwe n'inyubako y'amabuye ndetse n'ibikuta by'umweru, amadirishya y'umukara n'ubusitani buyikikije.

Urukuta rurerure mu butambike, bikaba bigaragara ko ari ikigo cy'amashuri ariko ku gice cy'inyuma, hirya gato hari ibiti bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi ku biga muri iki kigo.

Ibiti by'imigano byakuze bikaba birebire ni byo biri iruhande rw'ahashinzwe guhagarara imodoka ziba zaje muri kaminuza nkuru y'u Rwanda, ishami rya Huye.

Mu nyubako rusange ziba zicuruza ibiribwa, uhasanga bimwe mu biribwa biba biteguranye ubuhanga, dore ko abahabwa akazi muri izi nzu, baba barize guteka ku rwego rwo hejuru.

Icyumba kiri kuberamo inama yitabiriwe n'ab'ingeri zitandukanye. Barimo abagabo, ndetse abenshi muri bo bakaba bafite za mudasobwa, n'ubwo zubitse. Abandi bafite ibyo bari kwandikamo.

Inyubako zigiye zubatse mu buryo butandukanye, hagati harimo ubusitani ndetse hateyemo n'ibyuma bimurikira imbuga, hari amadarage agenda agana kuri ayo mazu.

Kaminuza nkuru y'u Rwanda iri ni ishuri ryagize uruhare mu gutyaza abanyarwanda benshi, dore ko abari bazwiho kuba abanyabwenge bose baba baraciye muri iyi kaminuza.

Kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Butare, hari kugaragaramo aho abantu bakorera ubushakashatsi cyangwa se inama, harimo mudasobwa, umugabo yicaye ari kuri terefone.

Abanyeshuri bo muri kaminuza bakaba bari gufata amasomo yabo mu rwego rwo kugira ngo barusheho kwiyungura ubumenyi, hari uhagaze imbere yabo uri kubaha amasomo yifashishije insakazamashusho nini.

Ubusitani bwiza burimo ubwatsi bw'icyatsi kibisi butoshye, ndetse bukaba bukikije amagaraje agizwe n'ibara ry'umuhondo, hirya gato hari inzu, inyuma yayo hari ibiti.

Mu nzu mberabyombi hateraniye abantu benshi biganjemo ab'urubyiruko, bakaba bari guhabwa inyigisho n'umukobwa wambaye ikanzu y'umukara. Ku meza hari icyuma gifata amashusho ndetse na mudasobwa.

Kuri kaminuza nkuru y'u Rwanda akaba ari nini cyane, igiye igizwe n'ibice bitandukanye birimo ubusitani, birimo ibiti ndetse n'ibindi bitandukanye bituma abanyeshuri bagubwa neza.

Imbuga ishashemo amapave nini cyane, ikaba ikikijwe n'inzu ndende zisakajwe n'amabati y'umweru, hagaragaramo ab'igitsina gore babiri bari gutembera muri iyo mbuga igizwe n'ibiti by'inganzamarumbo.

Ni ku kigo cy'amashuri ibyumba birafunguye nta muntu uri kuhagaragara, hari inkingi zikingirije uwakabaye ahari, ariko ntizituma agaragara neza, ibikuta by'imyeru ndetse n'inkingi zisa gutyo.

Abantu bicaye ku meza y'umuzenguruko, bakaba bari gufata amafunguro, hari amasahani agiye ariho ibiryo bigaragara ko biteguye neza, abantu b'inzobere mu bijyanye no guteka nibo bateguye iri funguro.